Abagabo babiri, umwe ahagaze iburyo undi ahagaze ibumoso bose bambaye udupfukamunwa, imodoka iri hagati yabo, inzu, amadirishya.

Aho ibinyabiziga binywera amavuta. Ndabona utujerekani tw'amavuta.

Ibiganza bibiri bifashe ku mafaranga byose biyahuriyeho, ik'ibuburyo ni inzobe, ik'ibumoso ni igikara, bihuriye ku mafaranga hejuru hari inote za magana atanu, hasi hari inote za bibiri. Ariko byose bihuriye kuri ayo mafaranga.

Inzu ikozwe n'ibirahure, abantu babiri bicayemo imbere, bicaye ku ntebe zizengurutsa, umugabo uri kugenda imbere y'abo bantu ku miryango y'iyo nzu.

Imitako yo gutaka mu nzu, ibohesheje intamyi, ubutumba, imigwegwe n'urushinge.

Inzu ya etaje, ubusitani, umugabo wicaye, pisine, amadirishya, inzugi.

Inzu ya etaje iriho amayesikariye, pisine, ubusitani burimo imikindo, umupapa n'umumama barimo kuganira bari iruhande rw'inzu na pisine.

Inzu igeretse, amadirishya, imiryango, amarange.